Icyapa kigaragaza ikigo bita radiyati ishuwaresi kampani, aho bari kugaragaza amasaha bakorera, n'iminsi bakoreraho, ku wa mbere, kuwa gatandatu, no kuwa gatandatiu w'ikindi.

Ubu ngubu ku mihanda igiye inyuranye yo mu Rwanda, ushobora kuba wasanga ibyo bakunze kwita ibyapa binini, byanditseho inyandiko bisa nk'aho biri kwamamariza ibigo bimwe na bimwe byamamaza ibicuruzwa, bakaba baba bafite ibintu bigiye bitandukanye byiza.

Amabanki yo mu Rwanda ndetse n'andi ku isi yazanye uburyo bworoshye bwo kuba ushobora kuba wabitsa amafaranga ukoresheje mobayiro mani, ukaba wayavana kuri mobayiro mani uyashyira kuri banki.

Wajya ku masoko agiye atandukanye acuruza imyambaro iy'abagore, iy'abagabo n'iy'abana, ukaba wagurira abawe, ukaba wakambara neza ukaberwa kuko ni imyenda myiza irizewe kandi ibi iriri ku giciro gitoya.

Ubungubu ushobora kuba wagana amaduka agiye atandukanye yo mu Rwanda, aho ushobora kuba wasanga imyambaro igiye itandukanye, ukahasanga n'ibinyabugeni aho ushobora kuba watakaka mu nzu yawe, ukaba wakongera ubwiza bw'inzu yawe.

Ni iduka ushobora kuba wabegera bakaba bagufasha kuba baguha ibikoresho cyangwa ibyo kurya bigiye bitandukanye, aho ushobora kuba wabagana bakaguha serivisi neza.

Ndabona iduka ricururizwamo imyenda, ndi kubona imipira y'amaboko maremare, imipira y'amaboko magufi nindi mitako yose wabona ahantu hose mu Rwanda.

Ahacururizwa imyenda y'abagore idozwe n'imashini ndetse n'idodeshejwe intoki. Iyi myenda iri mu mabara atandukanye: umutuku, umukara ndetse n'umweri.

Ubungubu ushobora kuba wagana amaduka anyuranye yo mu Rwanda acuruza ibintu bigiye bitandukanye, harimo imitako ugahasanga ibyo bikunze kwita ibicuba usanga n'indi mitako inyuranye ishobora kubashyira mu yawe kongera ubwiza.

Ushobora kuba wagana ahantu hagiye hatandukanye, mu mijyi igiye itandukanye, aho ushobora kuba wagenda ukagura imyambaro y'abagore, amasakoshi ndetse n'ibyo bakunze kwita udukweto dutoya tw'abana b'abakobwa

Ubu ngubu ushobora kuba wagana amaduka agiye atandukanye yo mu Rwanda, aho ushobora gusanga bagufitiye imyambaro myiza, haba ku bagore ku bagabo ndetse n'abana ukaba wakwigurira ukambara ukaberwa.

Iduka ricuruza imyenda ndetse n'ibiyikomokaho. Muri iyo myenda harimo amashati, amapantalo, imipira n'ibindi.

Ni iduka ririmo ibikomoka ku myambaro bishobora kuba bidozwe mu bitenge bakaba bacuruzamo imyenda itandukanye aho uhasanga imyenda y'abagore.

Ubu ngubu ushobora kuba wagana ahantu henshi bagiye bakora ibikoresho bataka mu mazu, bizwiho nk'imitako iba iboshye mu tuntu twiza, aho ushobora kuba wabagana, bakaba bayiguhera ku mafaranga make ukaba wataka inzu yawe.

Ni iyi modoka cyangwa ibinyabiziga, byakorewe kuba byaterura ibitaka bibivana ahantu biyajyana ahandi bishya umuhondo, imbere yaho hakaba hari gucaho ikindi kinyabiziga gipakiyeye ibikoresho

Ni ikigo cy'akagera bizinesi gurupu, aho ushobora kuba wabagana bakaba baguha ibinyabiziga bigiye bitandukanye, birimo ibinini, ibitoya ndetse n'ibiringaniye.

Ni ibinyabiziga bigiye bitandukanye biri mu igaraje, aho biri mu isuzumwa y'uko bishobora kuba bikora neza, bakunze kwita kwaliti contorori.

Ubu ngubu ushobora kuba wagana ibigo binyuranye bikorera mu Rwanda, bishinzwe gucuruza amamodoka no gukodesha amamodoka, aho ushobora kuba wabagana ukagura ubwoko bw'imodoka ushaka, bitewe n'amafaranga ufite.

Ni amakamyo agiye atandukanye aparitse ahantu, atwara imizigo ndetse n'abantu bakeya, akaba ava mu gihugu kimwe ajya mu kindi , imbere hakaba haparitse umugabo usa nk'aho yayitsindiye.

Ahantu haba haparitse imodoka nyinshi zo mu bwoko butwara abantu, zikaba zikorera ikigo cyitwa vorukano aho usanga izo modoka ziba ari nini z'umweru.

Akagera Modozi ni kimwe mu kigo ikomeye mu Rwanda, aho ushobora kuba wabagana. Ukaba wahabwa serivisi zirimo, nko kuba wagura imodoka nziza, kandi yizewe ikomeye.

Inganda zikora ibikoresho bitwara cyangwa bikaba byakorehereza abantu mu kazi kabo, zikunze kuba zifite amashami hirya no hino ku isi aho ushobora gusanga ibyo bikoresho bakora kandi ukabisanga bikiri bishyashya.

Imodoka zinyuranye wasanga harimo intebe zigiye zitandukanye, aho usanga intebe ziba ziri mu mashashi zizwiho kuba ziba ari nshyashya, ushobora kuba wazisanga mu mabara agiye atandukanye iz'umutuku, ubururu, umweru ndetse n'umuhondo, bitewe n'ibara ushaka ushobora kuba wazishyirisha mu modoka.

Ubungubu ushobora kuba wagana ibigo bigiye bitandukanye, aho bashobora kuba bagukurisha imodoka z'ubwoko bwiza buzwiho nk'ubukorerwa mu ruganda bita merisedesi benzi maganatatu i , aho usanga iri kugurishwa miliyoni zisaga makumyabiri n'eshatu z'amanyarwanda.

Uduce tugiye tunyuranye two mu rwanda aho usanga hari ibigo bimwe na bimwe, bicuruza amamodoka aho ushobora kubagana kimwe mu kigo kitwa yundayi kiba gifite ibinyabiziga byo mu bwoko bwose ibinini ibitoya.

Ni icyapa kigaragaza ko aho hantu hagurishirizwa amamodoka, hanze hakaba haparitse imodoka itwara abagenzi.

Ni ikinyabiziga kiri ku isoko, kiri mu bwoko bwa KIA aho ushobora kuba wabagana ahantu hose biri bakaba babikugurisha ukagitunga.

Ni umugabo ukora ku modoka y'umukara akaba yambaye ishati ya move ndetse n'sengeri y'umukara, akaba yambaye n'ipantaro akaba ari gusa nkaho ari gucuruza iyi modoka.

Ahacuruurizwa imodoka zo mu bwoko bwa HYUNDAI. Uwo ari we wese ukeneye imodoka yo muri ubu bwoko yabagana.

Ni ahantu mu kigo kigiye gitandukanye cyo mu Rwanda aho ushobora kuba wasanga imodoka nyinshi zigiye zitandukanye zo mu bwoko bukorerwa mu ruganda rwa HYUNDAI Rwanda, ushobora kuba wasanga ibinyabiziga bigiye bitandukanye ukaba wabigura ukabitunga.

Ni ahantu hagiye hatandukanye mu gihugu ushobora kuba wasanga amafaranga y'amarundi bakaba bayavunjamo amadorari cyangwa bagafata amadorari bakayavunjamo amarundi.

Ni imashini ibara amafaranga ikaba ikoreshwa ahantu bashobora kuba bavunjishiriza amafaranfa yo mumahanga bakaba bayaguhereza mu manyarwanda.

Ni igiceri cy'urwanda gikorera mu Rwanda, muduce twose twa u Rwamda aho ushobora kuba wacyicyana bakaba baguhamo igicuruzwa bikoroheye.

Aho bavunja bakanavunjisha hakunze ku hagaragara imashini zabugenewe zizwiho kuba zabara umubare w'amafaranga bafite, zikaba zifashishwa mu biro bigiye bitandukanye biri ku mihanda igiye itandukanye yo mu Rwanda.

Ku makusanyirizo agiye atandukanye y'ibinyobwa bikomoka ku mata ndetse n'amata aho ushobora kubabagana bakaba baguhereza serivisi zo kubagurisha amata y'umwimerere kandi aryoshye.

Nyanza milk industries, ni rumwe mu ruganda rushinzwe gutunganya, ndetse rugakora ku bikomoka ku mata, aho ushobora kuba wabagana mu mihanda inyuranye yo mu Rwanda, bakaba baguha amata y'umwimerere.

Ni amakusanyirizo wajya utandukanye y'amata aho ushobora kuba wabagana bakaba baguhereza ingano y'amata ukeneye ugendeye ku mafaranga ufite mu mufuka, aho ushobora kuba wahagura ibiribwa bikungahaye ku ifarini ukabirisha.

Ku makusanyirizo y'amata ndetse n'ibiribwa, ushobora kuba wahasanga amata anyuranye, aho ushobora kuba wahasanga amata y'ikivuguto, amata y'inshyushyu, ukaba wayanywa ku gihe cy'akaruhuko, mbere y'uko usubira mu kazi.

Mukamira dayari limitedi ni kimwe mu kigo gitunganya amata ndetse n'ibikomoka ku mata, rukaba rwagukorera ikinyobwa gifite intungamubiri aho usanga bafite ikinyobwa bakunze kwita yahurute gikunzwe kunywebwa n'abana bakiri bato.

Inyange miriki zone ni rumwe mu ruganda rukora cyangwa rutunganya atanditse n'ibikomoka ku mata aho usanga rufite uduce tugiye dutandukanye, ku mihanda aho ushobora kuba wagenda ukagura ingano ushaka y'amata ugendeye ku mafaranga ufite mu mufuka.

Inyange miriki zone, ni rumwe mu ruganda cyangwa ikigo gishinzwe kuba cyategura amata uzabyibwira kuko uzagenda uca ku mihanda hosehasange amazu akorera icyo kigo aho uzasangana ibicuba byagenewe kubikwamo amata buri muturage akaba yagura ingano y'amata bitewe n'amafaranga afite.

Ubugubu wagana amakusanyirizo agiye atandukanye acuruza amata ndetse n'ibikomoka ku mata aho uhasanga n'ibindi biribwa bizwiho kuba babifatisha ayo mata bakunze kwita amandazi akaba akungahaye ku ifarini.

Ku makusanyirizo agiye atandukanye ya mata ushobora kuba wasanga abagabo cyangwa abagore barimo barahagirira umunsi mwiza kuko baraharuhukira ku manywa bakaba bahagura ibikombe by'amata.

Amakusanyirizo agiye atandukanye y'amata, ushobora kuba wahasanga ibiribwa bigiye bitandukanye. Bikomoka ku mafarini, ushobora kuba wafatisha amata, harimo amandazi, capati, n'ibindi.

Ni ku makusanyirizo agiye atandukanye yo mu Rwanda, aho ushobora kuba wabagana cyangwa ukajya kuhafatira akaruhuko mbere y'uko usubira mu kazi, ukaba wahanywa igikombe cy'amata.

Ushobora kuba wakegera ahantu hagiye hatandukanye ku mihanda aho usanga bahakora ayo bakunze kwita amasambusa arimo ibirayi ushobora kuba wabegera bakayaguhereza, ahantu henshi bayacuruza usanga baba banacuruza n'amata.

Umuzi wagiye atandukanye n'amata ndetse n'ibikomoka ku mata bishobora kubibwira kuko haba hari ibyapa biranga ko hari inka zifite umweru n'umukara aho usanga bafite n'ibindi binyobwa bizwiho nko kuba banywa n'amazi n n'ibindi binyobwa bakoresha mu buzima busanzwe.

Ku makusanyirizo agiye anyuranye y'inyange miliki zone aho ushobora kuba wabagana bakaguhereza ingano y'amata ukeneye ndetse n'ibindi byo kunywa bizwiho nk'amazi akorerwa muri urwo ruganda.

Ku makusanyirizo agiye atandukanye y'amata, ndetse n'ibikorerwa n'ibikomoka ku mata, ushobora kuba wayasanga ahantu hagiye hatandukanye, aho ushobora kuba wayagura, ndetse ukagura n'amazi kuko uhasanga n'amazi meza ya nili.

Kuri murandasi ukunze gusangaho uburyo bwo kwishyura amafaranga ava mu Gihugu kimwe cyangwa ajya mu kindi, cyangwa mukaba mwabikoresha mu Gihugu aho umucuruzi aba agura ibintu ku wundi mucuruzi mu gihe bari kurangura.

Umurongo wa MTN worohereje abakiriya babo, kuko ubungubu ushobora kuba wagira serivisi ugenda ukorera kuri telefone ngendanwa; ukaba wakoherereza umucuruzi amafaranga cyangwa ukagura ama inite bitakugoye ukabigurira kuri Mobile money.

Kuba wagana ibigo bigiye bitandukanye ndetse n'amazu agiye atandukanye aho ushobora kuba wavunjisha amafaranga y'amanyamerika bakaba bayaguhereza mu manyarwanda, cyangwa ukajyana amanyakenya bakaba bayaguha mu manyarwanda mu buryo bukoroheye kugiciro cyizewe.

Ni amafaranga y' Amanyamerika, bigaragara y'uko bari kushyira mu kamashini kayabara, ukamenya umubare w'amafaranga ufite.

Ni ifaranga rikoreshwa muri Kongo rishobora kuba ryahabwa n'umucuruzi akaba yaguha igicuruzwa kimwe ndetse akaba yanayagusubiza agiye kukugarurira.

Ku makusanyirizo agiye atandukanye y'amafaranga ndetse n'amazu ashinzwe kuba yavunja amafaranga y'manyamahanga bakayavunja mu manyarwanda, uzahasanga abantu babugenewe banabyigiye ku buryo bazakuvunjira ayo mafaranga.

Ni amafaranga y'amanyamahanga ushobora kuba wayajyana ku mazu agiye atandukanye akorera mu Rwanda ashinzwe kuba yavunja amafaranga ayavana mu manyamahanga bakayaguha mu manyarwanda.

Inote zo mu gihugu cya tanzaniya ziba ziriho umugabo, hariho imparage, hariho n'ikirangantego cy'igihugu, byanditse mu giswahili hakaba haba hariho n'abagore bameze nk'aho bari gusarura n'undi uri gutora.

Amafaranga y'amanyamahanga n'ibiciro byayo mu Rwanda uyavunje mu manyarwanda. Ushobora kuba wagana amazu agiye akwegereye ukaba wabikuza amafaranga yawe ndetse bakanayakuvungira.

Mu mazu anyuranye ushobora kuba wahasanga serivisi, zirimo kuba bavunja amafaranga y'amanyamahanga bakayaguhamo amanyarwanda, aho utanga nk'urugero azwiho nk'amadolari bakaguha mu manyarwanda.

Amafaranga ari mu madorari azwiho nk'Amanyamerika ariho umugabo ufite uruhara, akaba amafaranga angana n'igiceri cy'ijana cy'Amanyamerika.

Ni uburyo bwo kuba wavunja amafaranga y'abanyamerika cyangwa ay'amanyamahanga bakaba bayaguha mu mafaranga yo mu gihugu cyawe, ibyo bikorerwa ahantu henshi hagiye hatandukanye.

Dukomere foregisi biro ni kimwe mu kigo gishinzwe kuba cyavunja amafaranga yo hanze bakaba bayaguhereza mu manyarwanda. Amadorari, amanyakenya n'andi mafaranga bakaba bayakuvunjira bakayaguhereza mu manyarwanda.

Ubu ngubu biroroshye, aho ushobora kuba wagana amazu agiye atandukanye yo mu Rwanda agiye atandukanye, aho ushobora kuba wahabwa serivisi zinyuranye, harimo izo kuba bakuvunjira amafaranga y'amanyamahanga bakayaguhamo mu manyarwanda.

Mu mazu y'i Kigali ndetse no hirya no hino mu gihugu, uhasanga serivise harimo izo kubitsa ndetse n'izo kuvunja amafaranga bakaba baguhereza Amanyarwanda.

Ni inzu yagenewe kuba yavunja amafaranga mu manyarwanda ukaba watanga amanyamahanga bakayaguhereza mu manyarwanda mu buryo bukoroheye.

Ubu ngubu ushobora kuba wagana amazu cyangwa imiryango igiye itandukanye ikoreramo abantu bashinzwe kuba baguha serivisi zinyuranye, harimo izi kuvunjisha amafaranga bakaba bayakura mu manyamahanga bayashyira mu manyarwanda.

Ni irutonde rugaragaza amafaranga agiye atandukanye yo mu bihugu bigiye bitandukanye, aho biriho amafaranga uko agenda agurwa mu mafaranga y'Amanyarwanda. Harimo Amarundi n'Amanyakenya.

Ni inzu ikoreramo abantu bashobora kuba bavunja amafaranga y'amanyamahanga bakaba bayaguhamo mu y'amanyarwanda mu buryo bukoroheye ku giciro kizewe.

MTN Uganda Pesa, nikimwe mukigo gishobora kuba cyakuguranira amafaranga kiyavana mumafaranga yo hanze kiyajyana muyo mugihugu mwimbere, ukaba wahabwa amafaranga angana nayo watanze kugiciro kizwi.

Uko ikoranabuhanga rigenda ryiyongera hirya no hino ku isi, ukunze usanga hari amakampani afite serivisi zo kugura cyangwa kugurisha ifaranga rikoreshwa kuri murandasi, hadakoreshejwe amafaranga asanzwe akoreshwa mu ntoki.

Ni ahantu hagiye hatandukanye haba hari utubaho ,intebe zo munzu ndetse nibindi bikoresho byo munzu. Ushobora kuba wabagana bakabiguha ku giciro kiza.

Ubu ngubu hari ahantu bakora utubati dukoze neza twagenewe guterekwaho insakazamashusho ndetse bakagukorera n'intebe zikunze kujya mu masaro, aho ushobora kuba wagenda bakaguha serivise nk'izo kugucururiza izo ntebe, ziba zirambye kandi zizewe ku giciro cyiza.

Ubu ushobora kuba wagura intebe zo mu nzu ushobora kuba wakigira ahantu bakora ibikoresho byo mu nzu harimo ibyo kwicaraho ndetse n'ameza yo kuriraho meza ashobora kuba yakongera ubwiza bwo muri salo.

Ni ahantu hagiye hatandukanye mu Rwanda ushobora kuba wazenguruka ukaba wahabwa serivisi zirimo kuba wakorerwa intebe nziza ,ameza meza ushobora kuba watunganya muri salo yawe bakaba bahagirira ibihe byiza ndetse nabawe n'abagusuye.

Ubu ngubu ushobora kuba wagura ibikoresho bigiye binyuranye byo mu nzu, aho usanga biba bikozwe bimwe mu mbaho, ibindi bikozwe mu byuma, aho ushobora kuba wabigura ukabishyira iwawe, ukaba wabikoresha mu mijyi itandukanye.

Ubu ngubu ushobora kuba wasura ubukiriro bugiye butandukanye bwo mu Rwanda, aho usanga baba bafite ibikoresho byo mu nzu bikoze mu mbaho, aho usanga biba bikozwe neza kandi byizewe, ku igiciro cyizewe nk'icy'umuneke.

Ubu ngubu ushobora kuba wagana mu dukiriro tugiye tunyuranye, aho ushobora kuba wahabwa ibikoresho byo mu nzu, bizwiho nk'intebe, ameza meza, ukaba wayagura, ukaba washyira iwawe ukajya uyicaraho.

Ni umuhanda w'amabuye ucamo ibinyabiziga ,ibinyamitende n'ibitari ibinyabitende aho usanga abaturage nabo baca muri iyo mihanda hakaba harimo n'amapoto agaburira abaturage amashanyarazi.

Abantu benshi bakunze gukoresha, ibikoresho bikozwe mu mbaho, biba byarakozwe n'ababaji, aho bakunze kubikoresha kubera ubwiza bwabyo n'ukuntu biramba, bakaba babikoresha igihe kirekire nkuko babikeneye.

Ni ahantu henshi ushobora kuba wajya mu Rwanda ukaba wahasanga ibikoresho bimwe na bimwe ibikoze mu mbaho, ndetse ushobora kuba bihabwa ku giciro gitoya kiza kandi kizewe.

Mu Rwanda haba udukiriro tugiye tunyuranye aho usanga bakora ubwoko bw'intebe nziza kandi zizewe ushobora kuba wakwicaraho zikaba zamara igihe kirekire, ibyo uzabibwira kuko baba bakorera ahantu hanyuranye mu Rwanda.

Amacumbi bakunze kwita hotel mu magambo cyangwa mu rurimi rw'abanyamahanga aho ushobora kuba wagana iyo nzu cyangwa uwo mutirirwa ushinzwe kwakira abantu ukaba wahabwa serivisi nziza zirimo kurara ndetse no kunywa ndetse n'ibiribwa .

Ni amazu agiye atandukanye ageretse ateye amabengeza aho hejuru yaho hari ibiti biteyeho ndetse n'ibigega bigiye bitandukanye.

Ni inzu igeretse hirya hari amatara ari kwaka, hakaba hari umuhanda imbere yaho uparitsemo imodoka zigiye zitandukanye ndetse n'abanyamaguru bari gucaho.

Henshi ku isi hagiye hatandukanye bakunze kuhasanga amahoteli aho abantu bakunze gusohokera yaba bagiye gukora inama cyangwa bakaba bagiye kuba baganira n'inshuti cyangwa imiryango yabo.

Ni amacumbi agiye atandukanye asohokeremo bamukererugendo ndetse n'abawe ushobora kuba wahabasohokera hakaba haba abatetsi kabuhariwe bazi gutunganya ibikomoka ku biribwa ndetse n'ibiribwa.

Ni inzu nziza iteye ubwuzu, ishobora kuba isohokerwamo n'abantu benshi. Iyo nzu hanze hari icyo bakunze kwita uducamp duto.

Ubugubu ushobora kuba watembera ndetse ugatembereza n'abawe, aho mushobora kuba mwasura imyanya igiye inyuranye, izwiho nk'amacumbi magari, aho uhasanga ubwogero ushobora kuba wakoga.

Marioti hoteli ni kimwe mu kigo gishinzwe kuba cyacumbikira abantu bakunze kwita hoteli mu cyongereza aho abakerarugendo bashobora kuba basa bakaza bagakodesha bakaraharara.

Amacumbi azwiho kuba yitwa hoteli mu rurimi rw'abanyamahanga azwiho kuba baba bafite ahantu hari amahumbezi usanga haba hari n'ubusitani bwiza aho usanga baba bafite imitaka igiye inyuranye mu mabara agiye atandukanye.

Ni umuturirwa muremure ufite amagorofa menshi, aho usanga ayo magorofa akorerwamo ibintu bigiye bitandukanye, ushobora ganga harimo amacumbi abantu bararamo.

Hoteli zitandukanye zo mu Rwanda bakunze kubaka ibyo bakunze kwita amapisine mu rurimi rw'abanyamahanga aho ushobora kuba wahasohokera nabawe mukaba mwahagirira ibihe byiza murimo muroga mwishimisha .

Ubu ngubu ushobora kuba wasohokera mu mazu agiye atandukanye ashinzwe kuba yacumbikira abantu ndetse na ba mukerarugendo aho ushobora kuba wagira ibihe byiza ndetse n'abawe.

Ni amacumbi meza ushobora kuba wararamo, ufite uruzinduko nk'ahantu, cyangwa hakaba hakitabirwa n'abaturage baturutse mu bihugu bigiye bitandukanye.

Mu nzu nini cyane hasize irange ry'umweru. Muri iyi nzu harimo intebe zigezweho, zifite amabara y'umutuku ndetse n'icyatsi cyijimye. Harimo kandi ameza, akabati, n'ibindi bikoresho byo mu nzu.

Mu macumbi azwiho nka hoteri mu rurimi rw'abanyamahanga, aho uhasanga ubusitani buteye ubwuzu, urimo indabo zimeze neza, aho ushobora kuba wasohokera, ukahasohokana n'abawe, mukaba mwahagirira ibihe byiza.

Ni umuturirwa uwubakiwe kuba wacumbikira ba mukerarugendo, cyangwa abashaka kuza mu kwezi kwa buki. Bukaba bufite ubusitani bugiye bumeze neza. Imbere yabwo hakaba hari indabyo nziza ziteye amabinngeza.

Ni ikigo gikora ku bintu bijyanye n'ubwishingizi, aho ushobora kuba wabagana mu biro bigiye bitandukanye byo mu Rwanda ugashinganisha imiturirwa yawe.

Kampani zigiye zitandukanye zo mu Rwanda zishinzwe gutanga amasiranse mu rurimi rw'abanyamahanga, aho ushobora kuba wagenda ukishyura amafaranga ibintu byawe bikaba biri muri asiranse.

Ubungubu ushobora kuba wagana ibigo bigiye bitandukanye by'ubwishingizi, aho ushobora kuba wabagana bakaguha nka serivise zigiye zitandukanye, zirimo gushinganisha ibikoresho byo mu nzu, ugashinganisha ndetse n'imodoka.

Ubungubu ushobora kuba wagana ibigo bigiye bitandukanye bikorera mu Rwanda, by'ubwishingizi, ukaba washinganisha abawe ndetse n'ibikoresho byawe, n'umutongo wawe utimukanwa.

Ni ibigo by'ubwishingizi, aho ushobora kuba wabagana bakaba bashinganisha cyangwa bakagushingira ibyawe, byityo bikorohereza abaturarwanda kuba bashinganisha ibyabo.

Ni ibiro by'ibigo bigiye bitandukanye, birimo intebe bicaraho z'ubururu, ndetse ku bikuta hasize amarangi y'umweru.

Ubungubu ushobora kuba wagana ibigo bimwe na bimwe bikorera mu Rwanda aho ushobora kuba wasanga bagufasha mu ma serivisi agiye anyuranye ya leta, aho ushobora kuba washinganisha ibikoresho ndetse n'imiturirwa.

Ubungubu ushobora kwagana ishami ry'Iremera rikora ku bijyanye n'ubwishingizi ku mitungo itimukanwa ndetse n'ibinyabiziga, aho ushobora kuba washinganisha ibikoresho byawe n'imitungo yawe bikabaho ku bw'umutekano.

Banki ya Kigali ishobora kuba yaguha inguzanyo ukaba wakwiteza imbere, mu gihe cy'imyaka ukaba ushobora kuba wabishyura, ukaba wabungukiraho amafaranga make.

Ubu ngubu ushobora kuba wagana amasoko anyuranye yo mu Rwanda acuruza ibintu bigiye bitandukanye, aho ushobora kuba wagenda ukahagura inkweto zizwiho kuba zifunguye, umuntu ashobora kuba yakambara yiriwe mu rugo ndetse agiye no mu bwogero.

Ubu ngubu ushobora kuba wakwegera isoko rigiye ritandukanye rikwegereye, bakaba bagufasha ku ma serivisi agiye atandukanye, harimo kuguha ibiribwa ndetse n'ibikomoka ku biribwa, ukaba wabijyana iwawe ugateka.

Ubu ushobora kuba wajya Ku masoko agiye atandukanye yo mu Rwanda, aho ushobora kuhasanga ibitenge bizwiho kuba babidodeshamo imyenda y'abagore. ukaba wasangamo abacuruzi baba basa neza ndetse ukaba wahasanga ibindi bikoresho bakoresha mu mazu agiye atandukanye.

Ku isoko ushobora kuba wahasanga ibiribwa bigiye bitandukanye ibitoki, ibirayi ndetse n'ibindi biribwa abantu bashobora kuba bagura bakarya bikungahaye ku ntungamubiri.

Iri ni iduka ricuruza ibintu byinshi bikorerwa mu Rwanda, yaba ibikorwa mu bitenge, ibitebo n'ibindi byinshi bitandukanye urabihasanga bikorerwa mu Rwanda.

Ku masoko anyuranye yo mu rwanda uzayibwira kuko wasanga abacuruzi bacuruza ibiribwa bigiye bitandukanye, abenshi baba banacuruza ibizwiho nk'amasambusa mo imbere aba arimo ibirayi akozwe mu ifarini.

Imihanda igiye itandukanye yo mu mujyi aho ushobora kuba wasanga ibinyabiziga bigiye bitandukanye ukaba wahasanga n'amazu maremare ageretse inshuro zirenze rimwe aho ushobora gusanga ayo mazu aganwa n'abaturage.

Umuturirwa ugeretse inshuro zirenze imwe aho usanga hanze yawo hari abaturage bari kugenda n'amaguru, bakaba bagaragiwe n'imitaka y'imirongo ya MTN.

Ushobora kuba wagana uduce tugiye dutandukanye aho ushobora gusanga hari abadozi ndetse n'abakorikori bakora udukinisho tw'abana ndetse ukahasanga n'imyenda igiye itandukanye harimo amajezi ndetse n'imyenda ikoze mu gitenge.

Ku masoko agiye atandukanye yo mu Rwanda, ushobora kubabagana bakaba bagwiriza imirire, ndetse n'imbuto n'ibikomoka ku biribwa, aho ushobora kuba wabagana bakabiguhera ku giciro cyiza.

Mu mijyi rwagati y'u rwanda uzabibwira kuko tugiye uzasanga akavuyokaamamodoka menshi wahasange n'amazu anyuranye maremare ageretse inshuro zirenze imwe.

Ni isoko ririmo abaturage benshi, imyambaro ndetse n'ibindi bikoresho umuntu asabwa buri munsi ukaba wabegera bakaba babikugurisha ku giciro kiza bataguhenze.

Ubungubu ushobora kuba wajya ku masoko agiye atandukanye yo mu Rwanda ukaba wagura ibiribwa ndetse n'ibikomoka kubiribwa bigiye bitandukanye, ubihabwa kugiciro cyiza aho usanga biri mu masoko agiye atandukanye yo mu Rwanda.

Ushobora kuba wagana amaduka agiye atandukanye yo mu Rwanda ukaba wahagurira ibikoresho bigiye bitandukanye harimo inkweto z'abana zikunzwe kwitwa bodaboda n'ibikapu ushobora kuba watwariramo ibyo ushaka.

Ahazwiho nko kuba hari imbaga nyamwinshi, mu mijyi inyuranye, uzasanga amamodoka ari mu ibara ry'umweru, hasi hakaba hasa umuhondo, ashinzwe gutwara abantu.

Ubu ngubu ushobora kuba wagana gare ahazwiho kuba haparika imodoka nyinshi, ndetse n'ibindi binyabiziga bigiye bitandukanye, aho ushobora kuba wasanga abantu benshi cyane ibikorwaremezo, ndetse n'imihanda myinshi igiye itandukanye.

Ubugubu wagana ku masoko anyuranye ari mu Rwanda aho uhasanga ubwoko bw'amagi ukeneye ukaba wabugura bigendeye ku mafaranga ufite, haba hari amagi y'amanyarwanda, amagi yo hanze ndetse hakaba haba hari n'abacuruzi bacuruza ku giciro nk'icy'umuneke.

Ushobora kuba wajya ku masoko atandukanye yo mu Rwanda, ukaba wagura imbuto zitandukanye, harimo imineke, avoka, inyembe, ibihaza, ndetse n'inyanya, n'ibitoki ndetse n'ibindi.

Ubu ngubu wajya ku masoko anyuranye yo mu Rwanda aho uhasanga ibimera ndetse n'ibiribwa bigiye bitandukanye harimo insenda ibyo bakunze kwita pavuro, indimu ndetse n'intoryi.

Mu masoko y'ibiribwa ndetse n'ibikomoka ku biribwa aho uhasanga ibyo kurya bigiye binyuranye harimo: karoti, intoryi ndetse n'ubuto bakunze gutekesha, aho ushobora kuba wagenda ukabihaha ukabyijyanira i wawe.

Umurongo wa emutiyeni ukomeje gutanga serivisi neza bitewe n'uko emutiyene ifite abakozi hirya no hino mu rwanda aho ushobora kuba wabagana bakaguha mu ma serivisi ya emutiyeni.

Ni umugabo uhagaze wambaye umupira w'umutuku ndetse n'uwambaye umupira w'umuhono n'agapfukamunwa k'umuhondo, aho usanga hari abamotari babiri bazanye abakiriya.

Ni ishusho igaragaza umukozi wa emutiyene, ushobora kuba wamugana akaba yagufasha muri serivisi zigiye zitandukanye za emutiyene, aho ushobora kuba wagura amanite, ukaba wabikuza, ukaba wanohereza n'amafaranga mugenzi wawe mutari kumwe.

Umurongo wa emutiyene ukomeje kuza ku isonga kuko ufite abakozi benshi ku mihanda igiye inyuranye yo mu Rwanda, aho ushobora kuba wabagana bakaba bagufasha mu maserivisi agiye atandukanye haba mu kubikuza, kubitsa ndetse no kohereza amafaranga.

Umurongo wa emutiyeni wagiye ushyiraho abakozi hirya no hino mu gihugu aho Umuturarwanda cyangwa uwaba akeneye serivisi mu gihugu ashobora kujya kuri abo bakozi bakaba bamuha izo serivisi abakene.

Ubu ngubu ushobora kuba wakwishura icyo bukunze kwita momopeyi, umurongo wa emutiyeni wazanye ubwo buryo bwo kugira ngo bworohereze abakiliya kuba bakwishyura abacuruzi batabakase bagakanda iyo mibare ya kode.

Umurongo wa MTN ukomeje kuza ku isonga kuko wazanye uburyo bushyashya bwo kuba wakwishyura amafaranga uyavana ku muguzi, ukishyura umucuruzi ukoresheje momo pini, izwiho nkaho batajya bagukata. Ukanda iyo mibare ukoherezaho amafaranga.

Umukozi wa Emutiyeni ukwegereye akaba yagufasha muri serivisi zinyuranye za Emutiyeni akaba yakubikuriza, ukanagura amayinitendetse ukanoherereza amafaranga umuntu mutari kumwe bakaba banakugezaho izindi serivisi zitandukanye.

Ubu ngubu ushobora kuba wagana abakozi b'umurongo wa MTN, bakaba bagufasha mu ma serivisi agiye anyuranye harimo kuba wabitsa ukabikuza ndetse no kohereza amafaranga, uyavana ahantu hamwe uyajyana ahandi.

Umurongo wa emutiyeni (MTN) ukomeje korohereza abaturarwanda ndetse n'abatuye mu Rwanda kuba bakoresha imirongo ku buryo bwiza, aho bashobora kuba barashyizeho imifuragiro kuri bamwe bagatsindira ibihembo bitandukanye harimo ipikipiki n'imodoka.

Abakozi ba Emutiyene bari gutanga serivisi hari umugabo usa nk'aho ari kubaza ibintu, yambaye umupira w'umweru ndetse n'ipantalo y'umukara akaba afite ibintu ari kubabaza bigiye bitandukanye kugira ngo bagire icyo bamufasha.

Utuzu tugiye tunyuranye two mu Rwanda, aho usanga tuba dufite abakozi banyuranye, bakora mu mirongo ya MTN, aho ushobora kuba wabagana bakaguha serivisi igiye itandukanye za MTN, haba kubitsa, kubikuza ndetse no kugura amayinite.

Juma ni ikigo gishobora kuba cyakugezah ibintu utavuye iwawe bakaba babikuzanira ku gapikipiki aho utumiza ibyo ushaka bakaba babikuzanira ku giciro gitoya.

Inzu ya tayo ni ahantu bacuruza imyambaro igiye itandukanye yo mu rwanda aho ushobora kuba wagenda ukabagana bakaguhereza ubwoko bw'imyambaro ukeneye kuko baba bafite imyambaro myiza kandi yizewe ku giciro gitoya.

Vuba vuba ni kimwe mu kigo gikorera mu Rwanda gishinzwe kugeza abaturarwanda, kikabagezaho ibyo kurya aho ushobora kuba watumiza ibyo kurya byawe ukaba wakishyura bakaba babiguhereza kuri moto bakabikuzanira bagendeye kuri indangamerekezo wabahaye.

Ubu ngubu ushobora kuba wahaha ibintu wibereye iwawe, aho ushobora kuba wagana urubuga rukwegereye, ukaba wahabwa ibicuruzwa, ukaba wabyoheherezwaho amafaranga, bakaba babikugezaho wibereye iwawe.

Mu Rwanda haba ibigo byinshi bigiye bitandukanye, harimo ikigo bita vuba vuba gishobora kuba cyakugezaho ibiribwa watanze ibyo ushaka ndetse ukishyura ibiribwa bakaba babikugezaho wibereye iwawe kuko birihuta kandi birizewe.

Ubungubu ushobora kuba wagura utavuye iwawe, utumiza ibyo kurya cyangwa ibikoresho wibereye iwawe, ku giciro cyiza. Ushobora kuba washyiraho ahantu utuye, bakaba babikugezawo iwawe, utavuye aho uri.

Mu Rwanda haje uburyo bwinshi bugiye butandukanye aho ushobora kuba wakishyura amafaranga bakaba bakugezaho ibikoresho ukeneye iwawe aho wibereye ukishyura ku giciro cyiza .

Vubavuba n'ikigo mu kigo gikomeje kuza ku isonga aho ushobora kuba watumiza ibyo kurya bikaba byakwisangira aho uri ku buryo bukoroye ukishyura ukoresheje murandasi bakaba baguhaye linki.

Ikashi. Ni uburyo bworohereje abaturage n'abaturarwanda kuba batumiza ibikoresho bikaba byabageraho bibereye mu rugo ku giciro kiri hasi.

Iguriro ryo kuri murandasi. Iri guriro ryitwa MIGRO Shop, ritanga serivisi zirimo gutumiriza abantu imodoka hanze y'igihugu, kubagurisha ibyo kurya ndetse n'ibindi bintu byose bifuza. Iri guriro kandi rigeza ku bakiriya ibyo baguze, bitabaye ngombwa ko bajya kubyifatira.

Kigali ushobora kuba wagana imijyi igiye itandukanye, aho uzasanga imiturirwa yubakanye iterambere uzabyibwira kuko imiturirwa usanga ifite ibikoni mu imbere bya kijyambere, aho ushobora kuba iyo nzu wayikodesha ku mafaranga icyatanu cy'amadolari.

Ubu ngubu ushobora kuba wagana amasayiti agiye atandukanye bakunze kwita ibibanza, aho ushobora kuba wagura ikibanza ushaka ku giciro ugendeye ku butaka uko bungana mu Rwanda.

Ubungubu ushobora kuba wajya ahantu bita ibumbogo, ukaba wagura ikibanza gifite hegitari cyangwa ugendeye kuri metero ushaka na amafaranga ufite, ukaba wagura ikibanza ukaba wakubaka umuturirwa.

Ubu ngubu ushobora kuba waza i Kigali ufite umuryango, ukaba wakodesha umuturirwa wubatse kijyambere, ukaba wawukodesha ibihumbi magana inani mu Manyarwanda, hano i Kigali mu Rwanda.

Ubungubu ushobora kuba waza hano i Kigali mu Rwanda, ukaba wakodesha inzu cyangwa umuturirwa ku mafaranga ibihumbi magana atanu by'amanyarwanda ku kwezi, hano Kabeza.

Ni inzu y'i Kigali igurishwa miriyoni ijana na mirongo itatu ushobora kuba wayigura kuko ifite ibyumba byiza n'amatuwarete ku giciro kiza ukaba wayibamo n'abawe.

Ubungubu ushobora kuba wagana ahantu hagiye hatandukanye mu Rwanda Kigali aho ushobora kuba wakodesha umuturirwa ukaba wawubamo ndetse n'abawe ukaba wawishyura amafaranga miliyoni imwe n'ibihumbi magana atanu by'amanyarwanda ukaba wabaho neza.

Muri iki kinyejana ushobora kuba wasanga ibyo bakunze kwita kwizine ururimi rw'abanyamahanga aho usanga bacyita igikoni cya kijyambere cyo mu Rwanda, aho ugisanga mu mazu agiye atandukanye ateye imbere, kuko ni igikoni cyiza kirizewe.

Ubu ngubu ushobora kuba wakwikodeshereza umuturirwa, ukaba wawubamo ndetse n'umuryango wawe, aho uwo muturirwa ushobora kuba wawugura kuri miliyoni ijana na mirongo itatu hano i Kigali mu Rwanda.

Umuturirwa ufite amadirishya y'ibirahure, amabati meza, amakaro ku kabaraza, aho usanga uwo muturirwa ugura miliyoni ijana na mirongo itanu mu manyarwanda.

Inzu iri Kigali i Kanombe ifite ibyumba bitandatu, ikaba ifite ubwogero butatu, ikaba ikodeshwa ibihumbi maganane ku kwezi ushobora kuba wayigana ukaba wayikodesha ukayibamo n'abawe.

Ubu ngubu ushobora kuba wagana mu midugudu witwa kagarama ukaba wahasanga umuturirwa uri mu bwoko bwa kadasiteri, aho usanga umuturirwa ufite ibyumba bine, ubwogero butatu. Ukaba wawukodesha ibihumbi magana atandatu ku kwezi.

Ushobora kuba wagana i Kanombe i Kigali aho wahasanga umu muturirwa utimukanwa, uzwiho nk'inzu iri kugurishwa miliyoni ijana na cumi ibyumba bine n'ubwogero butatu.

I Remera, i Kigali, hari inzu ikodeshwa icyumba kimwe n'ubwogero bumwe, ikaba ifite urugi rw'ibirahure, rukaba rufite n'idirishya ry'ibirahure, hanze hakaba hashashe amakaro.

Iyi ni inzu iri mu kagarama ikodeshwa. ikodeshwa amafaranga ibihumbi magana atandatu ku kwezi ifite ibyumba bine ubwogero butatu wifuza wayikodesha.

Ubu ngubu ushobora kuba wagana ibigo bimwe na bimwe bikodesha amazu mu rwanda aho usanga ibyo bigo biba bifite abakozi bashobora kuba bakwereka imiturirwa inyuranye ifite amazu meza.

Ni inzu nziza iri i Remera, aho ushobora kuba wagenda ukaba wayikodesha ku kwezi, ifite icyumba kimwe, ubwogero ndetse n'igikoni cya kijyambere kirimo imbere.

Amakampanyi agura cyangwa akaranga amazu ukunze gusanga akunze kwifashisha murandasi kukuba baranga ibicuruzwa cyangwa ibindi bintu byose bitandukanye baba baribuze gucuruza hirya no hino mu gihugu.

Mu Rwanda ushobora kubagana imijyi igiye itandukanye aho ushobora kuba wajya muduce twa kimironko ukaba wakodesha umuturirwa utimukanwa ukaba ufite ibyumba bitatu ubwogero butatu ukaba ukodeshwa ibihumbi magana ane ku kwezi.

Ni imiturirwa miremire ifite amabara y'umweru akaba igurishwa cyangwa ikodeshwa ku ijoro rimwe cyangwa buri kwezi bigenze n'amafaranga wishyuye ukaba ufite n'ahantu bogera bakunze kwita pisine mu rurimi rw'abanyamahanga.

Umuturirwa uri hano Kabeza ukaba ukodeshwa ibihumbi magana atandatu by'amanyarwanda (600,000 Rwf) ushobora kuba wawusanga ku ikarita aho bigiye bimanitse ku mihanda aho ushobora kuba iyo nzu wayisura ukaba wareba ukuntu ingana ni nziza kandi irizewe.

Ubu ngubu ushobora kuba wakwamamaza imiturirwa yawe ikaba yagurwa n'abashoramari bakaba baza bakayigura bakayibamo, cyangwa bakaba bayamamaza bakaza bakaba bayikodesha.

Mu masoko manini akorera mu Rwanda uzayibwira kuko uzasanga ibikoresho ndetse n'ibyongera ubwiza bw'abagore cyangwa abari n'abategarugori aho usanga bafite imisatsi, bafite amavuta ndetse n'imibavu bitera kugira ngo bahumure.

Mu masoko manini uzasangamo ibiribwa, ibinyobwa ndetse n'ibikomoka ku biribwa, aho uzasanga n'abakozi bakoramo bashinzwe kuguhereza serivisi.

Mu Rwanda hari icyo bakunze kwita shopingi molu bisobanuye ko ari ahantu ushobora kuba wagurira ibiribwa bigiye bitandukanye. Ukaba wabigura ku ngano ukeneye bitewe n'amafaranga ufite.

Mu mamaduka agiye anyuranye yo mu rwanda, aho uzasanga ibikoresho, imitako, ndetse n'ibindi ubugeni, aho ushobora kuba wabagana ukaba wakwihahira ugataka iwawe.

Mu maduka agiye atandukanye ushobora kuba wahasanga ibikoresho byo mu masahane, amasorori ndetse n'amapanu ushobora kuba watekeraho byabugenewe bifite ubuziranenge.

Umurongo wa MTN woroheje uburyo ushobora kuba wakwishyura amafaranga bikoroheye, aho ushobora kuba wajya guhaha ku maduka agiye atandukanye, ukishyura ukoresheje imirongo igiye itandukanye.

Ni umukobwa uri mu iduka ry'ibintu bigiye bitandukanye bikomoka ku biribwa ndetse n'ibinyobwa, akaba ari kwerekana ikinyobwa kiza gifite intungamubiri mu buzima.

Yandi kubona ahantu, bikasa nkaho ibicuruzwa byo kurya cyangwa se ibitse ku mu kandi bishobora kubaharisanga amasosoko yose y'u rwanda.

Amaduka manini agiye atandukanye yo mu Rwanda ushobora kuba wahasanga ibiribwa bigiye bitandukanye ndetse n'ibikoresho bijyiye bitandukanye. Aho ushobora kwagura ukabijyana iwawe, ukaba wabikoresha mu buzima busanzwe bwa buri munsi.

Kuba wajya ku masoko agiye anyuranye yo mu Rwanda ukaba wahasanga ibiribwa bigiye bitandukanye ndetse n'ibikomoka ku biribwa, aho ushobora kuba wahasanga inanasi, imitako ndetse n'ibindi ushobora kuba wakenena mu rugo iwawe, harimo n'indabyo zo gutaka.

Ni amasoko agiye atandukanye mu Rwanda, aho ushobora kubagana ukaba wagura imbuto ndetse n'ibyo kurya bitandukanye. Aho ushobora ku wabigura birimo ibitunguru, inyanya, intoryi, ndetse n' avoka n'ibindi.

Mu mujyi rwagati ushobora kuba wahasanga imiturirwa minini ishinzwe kuba yacururizwamo imyenda y'abana, iy'abantu bakuru, iy'abato, ndetse n'inkweto n'amavarizi azwiho nk'ibikapu binini.

Amaduka manini acuruza ubugeni ndetse ameza ndetse n'utundi dukoresho two mu nzu ,wasanga ibicuruzwa byo mu bwoko bwiza biramba kandi byongera ubwiza muri salon ,aho ubigura ukabyijyana iwawe.

Ni amaduka manini agiye atandukanye aho usanga bafite ibikoresho bigiye bitandukanye ukaba wabagana bakabiguhera ku giciro gitoya kandi birizewe bifite ubuziranenge.

Ni abaturage bashobora kuba bafite amakarita y'ubwishingizi bari ku murongo bicaye, bategereje kuba bafashwa n'umuganga bakaba babakemurira ibibazo bitandukanye.

Ni ikigo cyo m'urwanda gikunze kwitwa RSSB gishinzwe umutekano kubidukikije ndetse nibindi bintu, aho ushobora gusanga ibyo byapa uhita wibwira ko ari icyo kigo.

Ushobora kuba wakwishyura ubwishingizi bakunze kwita Mituweli. Mituweli dosante ikoreshwa mu Rwanda n'abana bari munsi y'imyaka cumi n'ibiri kumanura hasi. Ushobora kuba wayishyura ukaba wayijyana mu bitaro bakaba bakuvura ku mafaranga makeya.

Mu giturage ushobora kuba wahasanga imirimo igiye itandukanye ya sosiyete aho ushobora kuba wagenda ukahakora umuganda ndetse ukaba wasubira iwawe.

Ubungubu ushobora kuba wagana bimwe mu bigo bishinzwe umutekano, aho ushobora kuba washinganisha ibyawe ndetse n'abawe, mukaba mwabaho mu mutekano.

Mu maduka agiye atandukanye yo mu Rwanda, ushobora kuba wahasanga ibinyobwa bigiye bitandukanye, ibikomoka ku mata ndetse n'ibikomoka ku mbuto ndetse n'ibindi byose, aho ushobora kuba wabigura ku giciro kiza, ku mihanda igiye itandukanye yo mu Rwanda.

Ni amaduka manini agiye atandukanye yo mu Rwanda aho usanga afite ibiribwa ndetse n'ibikomoka ku biribwa bigiye bitandukanye, aho ushobora kuba waza ukagura ingano y'ibyo ushaka ugendeye ku mafaranga y'ingano ufite.

Mu maduka manini anyuranye yo mu Rwanda ndetse n'ahandi ku Isi, aho ushobora kuba wagenda ukagura ibikoresho, ibiribwa ndetse n'ibindi bintu ukenera mu buzima bwa buri munsi ku giciro kiza.

Mu Rwanda ushoboka kuba wagana amaduka agiye atandukanye, arimo ibiribwa ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye, bishobora kuba byakifashishwa mu uzima bwa buri munsi.